Ndabona urwego rw'abashinzwe umutekano, harimo abadaso n'abaturage bari mu nama, n'abasekite n'abacungagereza, bari kwiga ku umutekano wabaturage, umutekano utuma abantu bagira ubuzima bwiza nta makimbirane.

Imbwa iri mu nzu yapfunduye igikapu iri kureba mu myenda, iri gucungamo umutekano, iri kumva ibintu biri muri icyo gikapu ngo irebe uko bimeze. Yagifunguye rwose iri mumyenda hagati.

Abapolisi bari mu myitozo, bari ku ikosi, bari kwiga ukuntu bazajya bakora akazi kabo mu gihe hari umwanzi wabateye, ino aha iwacu tugira abapolisi bafite akamaro kenshi cyane, barinda abaturage n'ibintu byabo bigatuma aho turi haba hafite umutekano kuko nta muntu wapfa kugukoraho cyangwa aguhungabanye.

Abaturage bari mu nama n'abasirikare n'abapolisi RNP, Rwanda nashinoro polisi RDF. Abayobozi bakuru b'abasirikare n'abapolisi baricaye umupolisi umwe afashe ijambo ari kuvuga ibyerekeranye n'umutekano w'abaturage bateze amatwi b'ingeri zose abana, abakuru bateze amatwi.

Imodoka zitwara abantu n'ibintu byabo, natwe inaha iwacu tugira imodoka, iyo twagiye kurangura iradutwara, igatwara n'ibintu byacu, cyangwa se iyo tugiye kwimuka, tugenda mu modoka zikadutwarira n'ibyacu, tukimuka tukajya gutura ahandi hantu, imodoka zifite akamaro kenshi cyane, mu gutwara abantu.

Umusirikare wambaye ingofero n'iniforome. N'ino aha iwacu tugira abasirikare. Iyo bari mu kazi baba bambaye inifolome. Abasirika bafite akamaro kenshi cyane. bataba umutekano w'abantu abakare barindaga umutekano bi ba kikagira ubuzima bwizariza

Umuyobozi w'abacungagereza ari kurahira ahagaze ku idarapo , natwe inaha iwacu tugira abacungagereza, bakaba bafite umuyobozi ubahagarariye, umucungagereza adufasha mu kurinda gereza kugira ngo abafite ibibazo by'imfungwa babashe kubibakemurira kubera ibyo aba yakoze.

Abapolisi bari inyuma y'imodoka bambaye amakasike, bafite imbunda, bambaye ibintu byo kubarinda amavi, abapolisi bafite akamaro kenshi cyane, n'inaha iwacu tugira abapolisi bacunga abantu n'ibyabo, bagacunga umutekano w'abaturage, bigatuma abantu bagira ubuzima bwiza nta cyabahungabanya mu byo bakora byose.

Umusirikare w'u Rwanda ari gucunga umutekano kugira ngo igihugu kidahungabana. N'ino aha iwacu tugira abasirikare barinda umutekano wacyo bakarinda n'abantu. Iyo hari ikintu kibaye cy'intambara, abasirikare bararwana bagatsinda, bagatsinda umwanzi, bigatuma igihugu cyacu kigira ubuzima bwiza nta ntambara.

Imodoka zitwaye abagenzi n'ibicuruzwa byabo. Na twe ino aha iwacu iyo twagiye kurangura badutwara mu modoka, tukazana n' ibicuruzwa byacu twagera aho dukorera tukabigurisha bakaduha amafaranga. Imodoka zifite akamaro kenshi cyane, zituma umuntu agera aho ashaka kugera bikamworohera, bigatuma akoresha igihe gitoya mu rugendo akora.

Abantu bagiye mu nama bagiye kuremera abanyeshuri inama, natwe ino aha iwacu tugira inama, iyo twagiye mu nama z'abanyeshuri bacu ku ishuri, badutiza intebe zo kwiracamo noneho tukabwirwa icyo badutumiyeho, cyerekeranye n'inama bari kuduha. Inama zifite akamaro kenshi cyane, zituma abantu bagira amahoro ntibagirane amakimbirane ubwuzuzanye.

Abantu bari mu nama, harimo abashinzwe umutekano, abasirikari, abaturage bicaye, n'abayobozi bahagaze. Umusirikare afashe mikoro ari kuvuga ijambo ku byerekeranye n'umutekano, abaturage bateze amatwi bumva ibyo ababwira.

Abaturage bagiye mu nama. Harimo urwego rw'abadaso, hariho abayobozi, n'abaturage b'ingero zitandukanye. N'inaha iwacu iyo habaye inama, urwego rw'abadaso ruza mu nama n'umuyobozi akavuga ijambo bigatuma abayobozi n'abaturage babasha kugira ibyo bumvikanaho ku mutekano wabo.

Abayobozi bagiye mu nama bari kwiga ku bintu runaka byo bari kuvugaho, umwe yafashe ijambo bari kumubaza ibibazo abandi bateze amatwi. N'ino aha iwacu abayobazi bajya mu nama bakajya kwiga ku bitari kugenda neza, bakungurana ibitekerezo bigatuma umutekano wacu ugenda neza, n'ibikorwa bakora bakatuyobora neza.

Abaturage babaremesheje inama bicaye ahantu mu biti .Umuyobozi ari kubaremesha inama ku by'umutekano w'abaturage ,bamuteze amatwi ,bari kumva ibyo ari kubabwira kugira ngo babishyire mu bikorwa .Umutekano ufite akamaro kenshi cyane.

Abantu bicaye bafite amakaramu n'amakayi bari mu nama, bateze amatwi ibyo umuyobozi ababwira. Natwe ino aha iwacu tugira amanama atubwira iby'umutekano, tukicara tugatega amatwi tukumva ibyo bari kutubwira ku mutekano wacu, nuko twaba twatwaye amakayi iby'ingenzi tukabyandika, bidufitiye akamaro kenshi cyane bituma tugira umutekano mwiza.

Abayobozi bakuru bari mu nama, buri muyobozi afite imashini, uyu muyobozi afite amazi, umwe muri bo arahagaze, ari kuvuga ijambo mu nama barimo, abandi bose bamuteze amatwi bumve ibyo avuga, kugira ngo bahurize hamwe, bafate umwanzuro ukwiye muri iyo nama barimo.

Abantu bari mu nama umuyobozi afite ijambo arikubabwira amategeko n'amabwiriza bagomba kugenderaho, natwe inaha iwacu tugira inama iyo twagize inama batugezaho ibintu tugiye kumvira muri iyo nama, inama zifite akamaro kenshi cyane irinda amakimbirane mu miryango abantu bakagira ubuzima bwiza bakumvikana mungo zabo.

Mu kibindi bashyizeho inyuma ibintu barakizitira kugira ngo bitazameneka. Natwe ino aha iwacu tugira ibibindi. Bidufitiye akamaro kanini. bashyiraho ibindi bintu bakagitereka ku ngata. Ibibindi bifite akamaro kenshi cyane. Babishyiramo umutobe cyangwa bakabishyiramo umusururu.

...inka zidufitiye akamaro kenshi cyane: Bazikamamo amata. Amata bakayanywa cyangwa bayakoramo icyayi. Inka zirabyara zikororoka, zimwe bakazigugurisha. Inka zitanga ifumbire. Inka zifite akamaro kenshi cyane, turazigurisha mu bindi bihugu cyangwa bakazibaga tukaryamo inyama.

Abakaraza bafite imirishyo n'ingoma ziri hasi, bagiye kuvuza mu birori runaka, akaba ari benshi bose bagiye mu birori, natwe ino hari abakaraza bari bafite imirishyo n'ingoma, barakaraza noneho noneho abantu bakishima kubera ibyo baba bari gukora bigatuma abantu bose basusuruka.

Umugeni ugiye gushyingirwa bamujyanye ibwami, bamujyanaga mu ngobyi bakagenda bamupfutse, abagabo bamushyize mu ngobyi bashyize ku rutugu, bamujyanye aho agiye bakagenda bari kumuririmbira, bari ku mubyinira ,ni wo muco war'uhari bagendaga umugeni atazi iyo agiye aribwo bwambere.

Umuco wa kera abakobwa bambaraga incahure, akenshi abambaraga iyo myambaro babaga ari ababyinnyi. Natwe ino aha iwacu haba abantu bambara incabure. Iyo bazambaye akenshi baba bari kubyina imbyino zo gushayaya. Incabure zifite akamaro kanini cyane, zituma abantu bamba....

Intore ziri guhamiriza izindi ziri kwitoza n'abandi bari kubyina ahantu imbere hari inzu zubakishije ibiti, zigasakazwa ibiTI.Nino aha iwacu tugira intore zihamiriza. Iyo zagiye guhamiriza bazihaha amafaranga zigashimisha abaje kureba ukuntu ziri guhamiriza. Intore zifite akamaro kenshi cyane mu kwidagadura.

N'inaha iwacu tugira ubukwe, iyo bwabaye banywera mu kibindi bari mu misango, bari kumva ko inzoga ziryoshye, bigatuma ubukwe buryoha kandi, ni umuco wa kera n'ubu uracyariho ntuteze kuzacika.

Natwe ino aha iwacu habayo abantu babyina. Babyina imishayayo bari kubyina imbyino za kinyarwanda, batega amaboko nk'inyambo. Bigatuma tugira ubuzima bwiza kubera ibyishimo . Kubyina bifite akamaro kenshi cyane . Iyo babyinnye bagatsinda bari mu marushanwa babaha amafaranga.

Umugabo ufite iningiri ari ku nzu y'amatafari ahiye, kera hari hari uwo muco wo gucuranga iningiri mu bukwe, mu minsi mikuru runaka bagacuranga, bakabyina.

Ababyinnyi bari kubyina bikoreye ibiseke, n'intore ziri kubyina zifite amacumu, natwe ino aha iwacu tugira amatorero abyina yikoreye ibiseke n'intore, iyo babyinnye bagatsinda babahemba amafaranga ,iyo bari kubyina ,haba hariho n'abakaraza bari kuvuza ingoma.

Ishoka ifite akamaro kanini cyane aho yifashishwa iri kwasa inkwi cyangwa gutsinda ibiti. Natwe inaha iwacu tugira tugira ishoka idufasha mu kwasa ibiti byo gucana cyangwa se gutsinda ibiti byo kubaza. Ishoka kandi yitwa indyabiti. Ishoka ifite akamaro kanini ubuzima bw'umuntu.

N'ino aha iwacu tugira intore, bakabyina bakabaha amafaranga cyangwa bakabyina ahantu haba habaye ubukwe cyangwa iminsi mikuru, bigatuma biteza imbere. Kuko babahemba ibihembo bitandukanye cyane bigatuma biteza imbere muri uko kubyina kwabo kumwe n'abakaraza.

Umuco wa kera, kera bubakaga inzu z'ibyatsi, bakazitiza imbingo, ahantu habaga abami wariwo muco waho. N'inaha iwacu twabaga dufite inzu za cyami zisakaje ibyatsi, zizitijwe n'imbingo. Bituma nta muntu upfa kuhagera, haba hariho abantu baharinze.

Ahantu habaye ibirori, umufotozi ari gufotora umugabo ufite mikoro yo kuvuga ijambo, ahantu habaye nk'ubukwe. Ari gufotora rero afotora ibiri kubera aho hantu byose kugira ngo bazajye babireberaho.

Natwe inaha iwacu duhinga amasaka, amasaka aduha ibintu byinshi bitandukanye, iyo yeze tuyanywamo igikoma cyangwa tukayinika, tukayakoramo ubushera, ubushera ni umusururu tuywa. Amasaka iyo yeze tuyajyana ku isoko bakaduha amafaranga, tukazayakoresha turi gutera ayandi. Afite akamro kenshi cyane, tuyakoresha mu bintu byinshi.

Inyogosho za kera, bogoshaga amasunzu. Aho abahungu biyogosheshaga amasunzu mu mwanya wo muraho. Inaha iwacu, hari abantu biyogosheshaga amasunzu, bagatema umusatsi wo hagati, ntibiyogosheshe ngo bamareho. Amasunzu afite akamaro kanini cyane. Atuma abantu bagaragaza umuco wa kera.

Ibirago bifite akamaro kenshi cyane kugira ngo bakibohe bifashisha ubwatsi bakifashisha n'ubudeyi bakakiboha, iyo cyuzuye kiba ari ikirago cyujuje ibyangombwa. Ikirago gifite akamaro kenshi cyane bacyifashisha bari kwicaraho cyangwa bakagisasa, cyangwa bakakigurisha bakabaha amafaranga bigatuma bagura ubundi bwatsi bakaboha ibindi.

Ababyinnyi n'abakaraza bari kubyinira ibwami. N'inaha iwacu, barabyina, bagahamiriza. intore zifite amayoge, zifite n'imiheto. N'inaha iwacu barabyina bakabyinira ibwami. Babyina bafite imiheto n'amacumu, bambaye n'amayugera bigatuma bagira ubuzima bwiza.

Ahantu hari indabo, nk'umucaca n'insina, n'ibiti, hariho umuzinga wo kugira ngo inzuki zinjiremo, maze bahakure ubuki, hamanitseho ibigori, n'umuvumvu aricaye, umuvumvu ni umuntu uhakura ubuki, ategereza ko bwera agahakura.

Inaha iwacu ducuruza inkongoro, tugacuruza ibiseke, tugacuruza n'utuntu intore zikoresha iyo ziri kubyina, bigatuma tubona amafaranga yo gukoresha mu byo dukeneye, twayabona bikaduteza imbere.

Ingorofani iyo ziri mu murima. Bazifashisha bari gutwaramo ifumbire, bazifashisha bari kuzikoresha ibintu bitandukanye, bazikoresha mu gihe bari gutwara ibintu runaka by'imitwaro, babijyana ahantu runaka kugira babigezeyo vuba bihute.

umugabo uri kuvuza iningiri. Iningiri ni igikoresho bakoresha iyo bari kuririmba indirimbo gakondo, badakoresheje mikoro cyangwa ibindi bintu. Na twe ino aha iwacu tugira iningiri, iyo turi kuririmba indirimbo z'umwimerere turazikoresha maze tukaririmba dukoresha iningiri, bigatuma amajwi yacu yumvikana neza.

Ingoma ingoma iri ahantu irateretse, ingoma ni ikintu bavuza iyo habaye ubukwe cyangwa bari mu birori runaka, ingoma ifite akamaro kenshi cyane, bayikoresha bari kuyivuza kugira ngo abantu bumve birangurure noneho abantu bishime.

Intara, natwe inaha iwacu tugira intara idufasha, idufasha nko kugosora imyaka cyangwa tukazabikaho. Intara turanazigurisha, cyangwa tukaba twazitiza n'abandi bakazigosoza. Intara ifite akamaro kenshi cyane, iduha amafaranga iyo twayigurishije, tukanazigosoza imyaka. Ni umuco wa kinyarwanda.

N'inaha iwacu twenga ikigage tukagishyira mu kibindi, tugashyiramo imiseke, bakaza bakanywa. Ikigage kirabira, iyo bakinyweye baduhaha amafaranga tukayakoresha tukayaguramo ibyo dukeneye bigatuma twiteza imbere.

Intore ziri guhamiriza, ziri mu bukwe, ziri kubyina. Ntawe ino aha iwacu iyo twagize ibirori cyangwa tukagira ubukwe, dutumira intore zigahamiriza zifite amacumu, zambaye imisatsi mu mutwe y'umweru. Intore zifite akamaro kenshi cyane, zisusurutsa abaje muri ubwo bukwe bakazana n'amafaranga ...

Inzu y'ibwami hariho amazu atatu: Hariho iya mbere umuntu uhagaze mu muryanho, hariho uhagaze imbere, hariho n'ugiye kwinjira. Mu nzu z'ibwami habagamo abami n'abaja babo. Nta wundi muntu wapfaga kuhagera batamuhaye uburenganzir. Ni wo wari umuco wa kera.

Imitiba bagitse kugira ngo hajyemo inzuki. Inzuki zitange ubuki. Bituma umuntu abona ubuki. Na twe inaha iwacu tugira imitiba, tukagika, twakwagika hakajyamo inzuki. Inzuki zigatanga ubuki. Ubuki turaburya, ubuki bufite akamaro kenshi cyane. Ubuki ni umuti, ubuki buvura indwara zitandukanye. Ubuki turabugurisha bakaduha amafaranga.

Ababyinnyi bari kubyina barire n'intore, ninaha iwacu tugira ababyinnyi, iyo bari kubyina bari gushayaya biradushimisha, n'intore zi kabyina, zifite amacumu zambaye n'amayugi, kubyina bifite akamaro kenshi cyane, bashobora kubyina bakabaha, amafaranga bakabateza imbere, muruko kubyina kwabo, iyo bagiye kubyinira mu birori, abo bagiye kubyinira barabashimisha.

Umubyinnyi uri kubyina yikoreye agaseke uwo muco ni mwiza natwe inaha iwacu ubayo, natwe inaha iwacu tugira ababyinnyi babyina bikoreye ibiseke bari gushayaya. Iyo babyinnye baba bagiye mu birori cyagwa mu bukwe. Iyo bagiyemo babaha amafaranga, amafaranga abateza imbere kubera ko baba babyinnye imbyino za Kinyarwanda.

Abantu bari kubyina, bafite amacumu babita intore. Intore ziri kubyina imbyino nyarwanda. Intore ziri kubyina ahantu hariho umucaca.

Inka bari gukama amata, natwe inaha iwacu tugira inka, iyo dufite inka, zikabyara dukama amata, amata atugirira akamaro kenshi cyane, amata turayanywa, amata turayagurisha, amata tukayatekamo icyayi, bakakigura kandi amata atuzanira amafaranga iyo twayagagurishije, amata afite akamaro kenshi, ku buzima bw'abantu.

Ababyinnyi bari kubyina imishayayo, imbyino babyina bateze amaboko nk'inyambo hariho n'abakaraza, natwe inaha iwacu tugira amatorero abyina, ababyinnyi babyina bari gushayaya hari n'abakaraza, iyo babyinnye bituma abantu bishima cyangwa se bakabaha amafaranga mu buryo bwo kubahemba kubera bitwaye neza.

N'inaha iwacu tugira ubworozi bw'inka za kijyambere, natwe kandi tugira, twe dufite ikimasa, dufite n'igifizi kugira, iyo bizibanguriye bituma, ubworozi bwiyongera kubera ko iba yabyaye bigatuma tubona amafaranga.

Umusururu bari kunywa mu gikombe, natwe ino aha iwacu tugira umusururu ,iyo wahiye turawunywa. Umusuru ufite akamaro kenshi cyane, iyo ufite inyota urawunywa ukaba neza ,cyangwa se iyo wumva ushonje iyo uwunyoye wumva ya nzara ishize, umusururu kandi turawugurisha ukaduha amafaranga, bigatuma twongera gushigisha undi musururu tukawucuruza.

Inzu iriho kanari abantu bareberaho amashene, akenshi bareberaho imipira yo hanze, inaha iwacu amazu yacu aba ariho kanari, dufite kanari tureba imipira yo hanze, tukareba ibintu byinshi cyane bitari mu Rwanda, bigatuma tugira ubumenyi bwari butazwi.

Amashanyarazi, ahantu bakora kugira ngo amashanyarazi yake. Natwe ino aha iwacu inzu zacu zibamo amashanyarazi. Aho bakora ngo yake, iyo uhakoze araka cyangwa ukahakora agafunga. Amashanyarazi afite akamaro kenshi cyane, atuma umuntu areba niyo haba ari nijoro. Abantu bacagingaho amaterefone, afite akamaro.

Icyuma bafotorezaho impapuro runaka, natwe ino aha iwacu tugira icyuma bafotorezaho impapuro, bigatuma izo mpapuro tuzikoresha mu buyobozi, bari kudusaba izidufitiye akamaro zose.

Sitade barayubatse, bayitera amarangi, bashyiramo ibyicaro, kugira ngo abaje gufana bazabone aho bicara nino aha iwacu tugira sitade zo kureberamo imipira cyangwa kumviramo ibirori byateganyijwe. Sitade igira akamaro kenshi cyane, abantu bahuriramo bakavugana ku byo bashaka cyangwa bakareba umupira.

Ibikorwa remezo by'inzu zigerekeranye zo bita amayetaje, zubatse ahantu harimo umuca, cyangwa zifitemo amajaride, harimo n'amashuri bigamo abanyeshuri ndetse n'ibitaro byo kuvuriramo abantu barwara.

Mu nsengero z'inaha iwacu tugira insengero zubatse kijyambere. Zubakishije amakaro n'amatafari ahiye. Insengero zifite akamaro kenshi cyane, ku buzima bw'umuntu. Inaha iwacu, tugira insengero ,turusengeramo tukumva ijambo ry'Imana, tukabasha kwiga amateka y'abatubanjirije , ba Yohana n'abandi.

Abantu bari kunyura mu biraro. Natwe ino aha iwacu twubaka inyubako z'ibiraro, aho ziba zambukiranya umusozi n'uwundi, hasi harimo amazi. Ibiraro bifite akamaro kenshi cyane, bituma abantu batagwamo ngo hongere kubaho impfu za hato na hato. Ibiraro bikurura ba mukerarugendo.

Urusengero basengeramo ruriho amatafari， imbere rurafunze nta bantu barimo， rurubatse，rwubakishije amatafari ahiye， imbere hariho ihema， n'utuntu tw’udusikariye banyuraho， bagiye kwinjira.

Umuferege uri kunyuramo amazi, hejuru hariho ikiraro kirimo umuntu uri kwambukiramo kugira ngo atagwa muri ayo mazi, aguyemo akaba yanapfa, ubwo bakirinda kugira kugira ngo hatagira umuntu ugwamo bagashyiraho ikiraro cyo kujya banyuraho.

Abantu bagiye ku rusengero, amakorali menshi cyane bagiye ku rusengero kuririmba, abakirisitu baricaye bateze amatwi, bari ku rusengero bari no kubafotora, natwe inaha iwacu iyo twagiye gusenga hariho amakorali bakaririmba indirimbo, baririmbira Imana n' abantu bakumviraho bigatuma abantu bataha banezerewe.

N'ino aha iwacu twubaka amasoko, amasoko yo gucururizamo ibintu bitandukanye. Bagashyiraho inzugi bakayasakara, bakayubakisha amatafari ahiye. Kubaka amasoko bidufitiye akamaro kenshi cyane, bituma twiteza imbere tukava mu bushomeri, tukikorera tukagura ibicuruzwa byacu bigatuma dutera imbere.

uku nariwa hacu tugiraga amashuri ubu harihoho ibiziga tukagera no kungu ubu amashuri bigatuma abantu biyigaraga ba bwiza abateza imbere nk' mu bumenyi no mu mahanga

Ibyapa by'ibirango by'ahantu basengera. Natwe ino aha iwacu tugira ibyapa bandikaho ibintu bitandukanye. Iyo hari nk'urusengero babyandika ku cyapa kugira ngo abazaza kuhasengengera bazamenye aho urusengero ruba. Ibyapa bifite akamaro kenshi cyane, biyobora abantu baba bagiye ahantu batazi cyangwa bakihagera bwa mbere.

Urusengero basengeramo, iruhande rwaho hariho ibiti batemye n'inzira igiyeyo idakozwe neza itarimo sima, harimo ubusitani bukikijwe n'ibiti. Natwe ino aha iwacu tugira insengero dusengeramo zikaba zikikijwe n'ibiti. Urusengero rufite akamaro kenshi cyane twigiramo ijambo ry'Imana.

Urusengero basengeramo rwubakishije amatafari ahiye rukikijwe n'ubusitani bw'umucaca, natwe ino aha iwacu tugira insengero tujya gusengeramo zubatswe neza ,zikoze neza. Insengero zifite akamaro kanini cyane bituma umuntu yumva ijambo ry'Imana, rikabasha kumuhindura mu bitekerezo bye bigatuma agira intekerezo...

Ibigo by'amashuri biri ahantu hateye umucaca ,inyuma y'ikigo cy'amashuri hari uruzitiro .Inyuma y'uruzitiro hariho ibyo abana b'abagaridiyene bakiniraho, iyo abana bagiye gusohoka, bajya mu bikinisho byabo bakarya n'umunyenga bari muri siporo, nk'ino aha iwacu turabigira bituma abana bagira umunyenga.

Inyubako bari abakuze batadashyiramo ibitanga gutumaga icyumba cyitazu kuko cyane abafite umutekano na nayo iwacu kubafate inzu bashyiramo ibyombo, noneho kugira ngo tubuka tush n ibitambaro bi kirari umuntu akara wenyine mu yisanzuye afite umutekano.

Inyubako ya kiliziya, urusengero rw'Abanyagatulika basengeramo. Hariho impande ibiti, hariho n'imitako imeze nka voka. Natwe ino aha iwacu tugira insengero z'Abanyagaturika imbere haba hariho umunara ziba zubakishije amatafari ahiye. Izo nsengero bazivugiramo ijambo ry'Imana tukaba abakirisitu.

Abantu bari kugenda bagiye kugura amayinite ku muntu ucuruza mitiyu, umugabo arahagaze n'abagore bari kugenda. N'ino aha iwacu, hariho abantu bacuruza amayinite bo kuri emutiyene bagatanga mitiyu, iyo baguze mitiyu bahamagara abandi bantu mu buryo bwo guhanahana amakuru.

Inzu yegereye ku muhanda, iruhande y'ao hariho amashanyarazi, hariho taransifo, taransifo ni ahantu haba hariho umuriro mwinshi, aho hantu umuntu aba yahakoreraho ikintu cyo kuba wishe umuntu kubera haba hariho umuriro mwinshi, cyangwa bakahashyira icyuma cyo gushesherezaho ifu y'igikoma cyangwa se kawunga.

Urusengero bari kubaka bari gushiramo sima, abafundi bari kubaka n'abayede bakabahereza ,kugira ngo hase neza ,bahakore ,hagaragare neza ,nk'ino aha iwacu tugira insengero z'Abanyagatulika, barazubaka bakazishyiramo sima, bakazishyiramo amarangi, bakaza barajya kuzisengeramo bakamenya ijambo ry'Imana bigatuma bahuguka mu by'Imana.

Inzu, umwana ari ku muryango afashe ku rugi. Imbere y'inzu bashyizeho pano kugira ngo hagende harajyamo izuba nijoro maze bacane ryake bibe nk'amashanyarazi. Kubera izuba iyo ryagiyemo bitanga urumuri rwinshi cyane.

Umuganga ari ku bitaro arahagaze，yambaye amadarubindi n'agapfukamunwa， yirinda uburwayi butandukanye bw’abarwayi baba barwaye. Umuganga ari kureba ukuntu ibintu bimeze， ari gutekereza uko arakora akazi.

Natwe iwacu tugira ibiraro ,ibiraro bifite akamaro kenshi cyane abantu banyuramo bikabarinda impanuka iyo bidahari abantu bashobora kunyuramo ugasanga baraguye, cyangwa haza amazi akabatembana bigatuma bamwe bapfa ariko kubera ibiraro bituma habaho umutekano w'abantu n'ibintu byabo bakambuka neza nta kibazo bafite, bikazana umutekano ku abaturage.

Inzu iriho idarapo ry'igihugu n'abanyeshuri iyi nzu ni ibiro by'akagari. Ibiro by'akagari babikemuriramo ibibazo by'abaturage bakabikemuriramo ibintu byinshi bitandukanye no guca imanza.

Abanyeshuri bari ku murongo babaha amabwiriza, abayobozi babo inyuma y'abo hariho abarimu babigisha n'amamodoka bajemo aparitse, bari ku kigo cy'amashuri bari kubaha amabwiza, abanyeshuri bagomba kugenderaho kugira bagire imico myiza.

Abaturage bari kurema inama hariho n'urwego rw'ubudaso, hariho abafite ibibazo. Inama ibafitetiye akamaro kenshi cyane ituma abafite ibibazo babibaza, aho bitagenda neza bakahakosora bakayifatira umwanzuro bakabaha uburenganzira bwabo. Inama ifite akamaro kenshi cyane ku muturage bituma agira amahoro akagira umutekano.

abaturage bagiye mu nama umuyobozi ari kubagezaho ibyo bagiye kwigira muri iyo nama ku kigo cy'amashuri, iwacu tuza kuremera abanyeshuri bacu inama nabo bakatubwira ibyo bakeneye ku ishuri bisabwa amafaranga cyangwa se ibyo bashaka kwigira kugira ngo abanyeshuri bajye bakurikiza bashaka amafaranga y'ishuri batumaho ababyeyi bakarema inama.

Aba bantu bagiye mu nama bari kuremera inama muri sale, bagira ibyo bumvikanaho uburenganzira bw'umuntu abafite ibibazo bakaba babisoma bakabibasubiza, natwe iwacu tugira inama tujya mu gikari tukaremeramo inama, bakaduha amabwiriza n'amategeko tugomba kugenderaho.

Are baturage bagiye mu nama, abayobozi baricaye imbere hariho n'umudaso uhagaze. Abafite ibibazo bari kubibaza. Na twe inaha iwacu tugira inama. Iyo twagiye mu nama abafite ibibazo barabibaza bakabasubiza. Babasubiza bigatuma mu baturage havamo amakimbirane. Bigatuma hazamo umutekano. Inama ifite akamaro kenshi cyane ku burenganzira bw'umuntu.

Abantu bari mu matsinda, natwe inaha iwacu tugira amatinda, iyo tudafite tuguzamo amafaranga tukongera tukayishyura, iyo wabuze uwakuguza uragenda mw'itsinda bakaguha amafaranga, noneho ukazajya urayungukira ku kwezi bakakuguza amafaranga ushaka wayabona ukayasubizamo bigatuma abantu biteza imbere, iyo bayagabanye bituma abantu bagura ibyo bakeneye, amatsinda bafite akamaro kenshi cyane ku baturage.

Abaturage bagiye mu nama bari kumva uko umutekano umeze ,abafite ibibazo bakabibaza, n'ino aha iwacu tugira inama uburenganzira bw'abantu ufite ikibazo akakibaza ,ufite ikibazo bakaba bakimukemurira abaturage bakagira umutekano mwiza. Umutekano ufite akamaro kenshi cyane binyuze mu nama, bituma abantu babaho neza.

Abaturage bari mu nama, aho bateze amatwi, umuturage bamuhaye ijambo ari kuvugaga ko umutekano wabo nk'ukorimune amuhaye mikoro, arahagaze abandi barikumva igbyo ari kuvuga ko aribyo, bunguraniye n'inama batangire igisubizo maze bigende neza.

Abaturage bari mu nama bateze amatwi umuyobozi, abafite ibibazo bari kubaza ibibazo bahereye ku murongo. Natwe ino aha iwacu iyo twaremye inama tubaza ibibazo dufite noneho abayobozi bakadusubiza, bakabaza umwe umwe nta by'akajagari bigatuma umuntu anyurwa n'ikibazo afite, bigatuma umuntu agira umutekano.

Abantu bicaye bari gufata agafoto bari bari mu nama. Na twe ino aha iwacu tugira abantu iyo bavuye mu nama barifotoza. Inama ifite akamaro kenshi cyane, umuturage abarizamo uburenganzira bwe bigatuma havaho amakimbirane mu miryango, bigatuma abantu bavanaho ibintu by'urwango.

Abantu bagiye mu nama. Natwe inaha iwacu tugira inama, inama iba ivangavanze abantu bose: abana, abakuru, abagore abagabo b'urubyiruko. Inama ifite akamaro kenshi cyane; ufite ikibazo urakibaza bakagusubiza, bakagutega amatwi ukagenda unyuzwe. Inama ituma abantu bagera ku burenganzira bwabo.

Moto zitwara abagenzi, natwe ino aha iwacu tugira moto zitwara abagenzi. Zituma ingendo zihuta, zigatuma abantu aho bagiye bagerayo vuba, bigatuma haza umutekano mu kugenda kw'abantu bagenda bajya iyo bajya, moto zituma haboneka amafaranga, iyo zitwaye umuntu bakamuha amafaranga, uwo muntu bituma ubuzima bugenda.

Aho bategera imodoka muri gare, haparitse imodoka abagenzi bari gutega ngo bajye iyo bashaka. Natwe ino aha iwacu tugira gare aho dutega amabisi tukajya iyo dushaka, twaba tugiye ku kazi tukagererayo ku gihe n'amamoto akadufasha mu ngendo zacu, bituma ingendo zihuta ntidukerererwe iyo tugiye, zifite akamaro.

Imodoka zifite akamaro kenshi cyane ku buzima bw'umuntu. Iyo tugiye ahantu dutega imodoka tukagerayo byihuse kandi ntibidukereze. Natwe inaha iwacu tugira imodoka dutegeramo iyo tugiye ahantu waba ugiye ku kazi ukajya ku kazi vuba kandi ugakoresha iminota mike bigatuma urugendo rwawe rworoha waba ujya mu kazi ugatega imodoka ukagerayo vuba ntukererwe.

Abamotari barahagaze bategereje abagenzi bo kutwara ngo bajye iyo bashaka, izuba riri kuva, bamwe bakuyemo ingofero, abandi bari kubaza abagenzi iyo bagiye kujya, bari kuri parikingi y'abamotari aho abamotari baba bategereje abagenzi, bose bakaba bari kumwe n'abamotari.

Imodoka nini iri mu muhanda, itegereje gutwara abagenzi ngo ibageze iyo bagiye. Natwe ino aha iwacu tugira ibibisi binini bitwara abantu benshi cyane, buri muntu wese akagera aho ashaka kugera bimworoheye, abagiye mu kazi bakagereramo ku gihe kugira ngo bagakore neza, izi modoka zifite akamaro kenshi cyane zitanga umusoro, kubera ko ziba zakoze akazi cyangwa zigatanga inyungu ku baturage.

Umuntu wicaye ku ihonda ari guseka, umuntu wicaye ku ihonda ashobora kuba yatwara ihonda ,agatwara abagenzi akabageza aho bashaka kugera, akaba yakorera amafaranga yo kwifashisha mu bundi buzima bwe busanzwe bwa buri munsi ,akanahahamo ibyabaye.

Umumotari utwaye imizigo n'umumotari utwaye umuntu bari kugenda kuri kaburimbo. N'inaha iwacu tugira abamotari batwara abantu, bagatwara imizigo, abamotari bafite akamaro kenshi cyane iyo batwaye umuzigo bawugeza aho bashaka bakabishyura amafaranga, abamotari iyo batwaye abagenzi babageza aho bagiye byo...

Imodoka zitwaye imizigo abantu bari kugenda kuruhande zitwaye ibintu zibijyanye ku masoko, natwe inaba iwacu tugira imodoka z'ibikamyo n'ibifuso zitwara imizigo ziyijyanye ku isoko kugira ngo bayicuruze noneho babone amafaranga yo kuyiteza imbere mu byo bakora.

Abamotari batwaye abagenzi bari kugenda, n'imodoka zitwaye abantu n'abandi bantu bashaka gutega. N'ino aha iwacu tugira abamotari, tukagira n'abantu bafite imodoka. Iyo umumotari atwaye umugenzi amugeza aho ashaka akahagera byihuse, akamuha amafaranga. imodoka na zo zitwara abantu zikabageza aho bashaka kujya vuba.

Ikibuga cy'indege hariho indege yaguye, hariho n'umupilote, hariho n'uwo kuyiyobora, yaguye hasi nta bwo irahaguruka ngo igende ijye iyo abagenzi bashaka.

Ahantu haparitse imodoka muri gare abagenzi bashaka gutega ngo baje iyo bashaka. Natwe inaha iwacu hari amaparikingi aparitsemo imodoka, iyo tugiye gutega turahajya mu modoka kugirango zitugeze aho dukeneye. Zifite akamaro kenshi cyane bituma ingendo dukora zoroha tukagerayo vuba nta by'imvunane.

Ikibuga mpuzamahanga abantu bari kugenda bagiye kujya mu ndege bafite n'ibikoresho byabo barimo kugenda ku kibuga mpuzamahanga bari kugenda.

Imodoka itwaye umucanga wo kubakisha amazu, natwe ino aha iwacu iyo tugiye kubaka dushaka imodoka yo gutwara umucanga kugira ngo tuzawukoreshe turi kubaka inyubako zacu harimo amazu cyangwa imihanda. Imodoka zitwara imisenyi zifite akamaro kenshi cyane zizana umusenyi mwinshi, ku buryo uwo musenyi twawukoresha ahantu hanini.

Ku kibuga cy'indege umupilote ari kuyobora indege, indege y'u Rwanda igiye guhaguruka. Abandi bantu barahari barahagaze, bari kureba, ni nijoro amatara ari kwaka, umupilote arahagaze yifashe mu mugongo.

Imodoka zitwara abanyeshuri ku ishuri zifite akamaro. Iyo bagiye ku ishuri bagerayo vuba, kandi bigatuma batangirira amasomo ku gihe. N'iyo batashye ni uko. Imodoka zigiye ku ishuri zitwara abanyeshuri zituma abanyeshuri batarangara cyangwa ngo bakererwe. Bakurikira amasomo nta mpagarara kuko bagiye nta kibazo.

Imodoka nini iri mu muhanda itekereje gutwara abagenzi, iyo babatwaye mu modoka bagera iyo bagiye byihuse vuba, idufasha mu bintu bitandukanye. Natwe ino aha iwacu tugira imodoka nini zitwara abagenzi, zikabageza ku kazi byoroshye, ku gihe bapanze akazi ka gakorwa neza kuko bagezeyo kare.

Moto zifite akamaro kenshi cyane, iyo tugiye ahantu turazitega zikatugeza aho tugiye byoroshye. Moto kandi zitanga amafaranga kuri leta ,zigasora umusoro. Moto zifite uburyo zitwara umuntu urwaye ,zikamugeza kwa muganga byihuse ,kandi zikadufasha abagiye mu kazi ,kugera ku kazi ntibakererwe, n'abanyeshuri bagiye ku ishuri zikabatwara ntibakererwe.

Imodoka iri kugenda kuri kaburimbo harimo umukomvuwayeri uri kubaza abagenzi ko bashaka ngo binjiremo, hariho n'abantu bakeneye kwambuka umuhanda bategereje ngo imodoka zinyureho bambuke, harimo n'amayetaje menshi cyane hariho n'ibiti n'amashanyarazi

Muri gare harimo abantu n'imodoka, abantu bari gusohoka mu modoka, abantu bari kwinjira mu modoka, abantu bari kugenda, abantu bafite ibikapu, abantu bafite aban. Hakurya yaho hariho ibiti, amapoto n'inzu nyinshi.

Ikimodoka kinini cyari kiri kugenda mu muhanda, cyapfuye abantu baje kugikora, kugirango gitware abagenzi, gitwara abagenzi benshi cyane kandi ntabwo cyakora urugendo cyagize ikibazo, niyo mpamvu cyitabarije abo kugikora, kugira ngo kigende, kino kibisi kinini.

Umuntu ari ku igare ari gutwara, ari kugenda mu muhanda ,ashobora gutwara umugenzi akamuha amafaranga ,akayaguramo ikintu ashaka, akaba yayaguramo n'ibyo kurya ,cyangwa se akayakoresha mu bundi buzima busanzwe.

Abanyozi b'amagare bari kuri parikingi bategereje abagenzi, ngo babatware cyangwa batware imizigo. Natwe ino aha iwacu tugira abanyozi, abanyonzi badutwara ahantu dushaka bigatuma tugerayo vuba, abanyonzi bafite akamaro kenshi cyane batwara n'imizigo bakayigeza aho ukeneye kuyigeza.

Ikimodoka kinini k'ikibisi gitwaye abantu. Kiri mu muhanda harimo n'utundi tumodoka dutoya. Bari mu muhanda bari kugenda, iyo bashaka kugira abagenzi kugira ngo bakore ibikorwa byabo bitandukanye kubera icyo kimodoka kibafasha mu kwihuta ku ngendo zabo.

Imodoka ifite akamaro kenshi cyane, iyo tugiye ahantu zidufasha mu kutworohereza ingendo tukageraho tugiye vuba, imodoka zidufitiye akamaro kenshi cyane zituma urugendo rwacu rwikihuta n'ibyo tugiyemo bikihuta, bitewe n'uko twateze imodoka bikadufasha kugerayo vuba, imodoka zituma tubona amafaranga.

Moto zitegereje abagenzi, ziri muri parikingi, natwe inaha iwacu, tugira amamoto batwaraho abantu, moto zidufasha mu kugera kwa muganga bitworoheye, iyo umurwayi arwaye, arembye adashobora kugenda n'amaguru, moto kandi zidufasha kugera mu kazi byihuse, natwe inaha iwacu, tugira abamotari b'abakobwa nab'abahungu, bose bagakora akazi neza, bagatwara abagenzi babageza iyo bashaka.

Bisi mu muhanda, imodoka nini mu muhanda, ituma abantu bayigendamo, imodoka nini yoroshya ingendo, itwara abantu benshi bari kugenda, itumama abantu bagera iyo bagiye byihuse ntabyo gutinda mu mayira bakagerayo vuba.

Abamotari bategereje abagenzi, abamotari bafite akamaro kanini cyane kuko batwara abantu bagiye ahantu mu kazi, inaha iwacu habayo abamotari. Abamotari badufasha mu kugenda mu ngendo zacu za buri munsi badutwaye kuri moto, bafite akamaro kanini cyane batugeza ku kazi byihuse.

Imodoka zitwara abagenzi aho bagiye hose, zikabagezayo. Natwe ino aha iwacu, tugira imodoka . Iyo dushaka gukora ingendo , dutira imodoka zikatugeza aho tugiye, bikatworohera bigatuma abagiye ku kazi bagerayo vuba . Imodoka zifite akamaro kenshi cyane ,zitwara abantu n'ibyabo ,cyangwa se zikaba zatwara abantu zibajyanye ku kazi.

Gare baparikamo imodoka iyo bategereje abagenzi. Natwe ino aha iwacu tugira gare ziparikamo imodoka. Iyo abagenzi bagiye, kugira ngo bagere aho bajya, batega izo modoka, izo bisi zikabageza aho bagiye byihuse, bigatuma ingendo zabo zoroha. Abajya mu kazi bakagerayo vuba. Bigira akamaro kenshi cyane.

Aho baparika imodoka, abantu bari kuvamo bagiye batega, abandi bari kuvamo, haparitse n'amamoto. Natwe inaha iwacu, tugira aho dutegera amamodoka cyangwa moto iyo tuziteze bituma tugera aho tugiye byihuse, iyo duteze dutanga amafaranga, amafaranga barayifashisha mu bindi bikorwa remezo abashoferi.

Imodoka zitwara abagenzi rusange natwe inaha iwacu tugira imodoka zitwaraga abagenzi, bagiye ku kazi cyangwa bagiye ahandi hantu, bikadufasha mu kwihutisha ingendo.

Ino aha iwacu, tugira imodoka zitwara abagenzi zikabageza ahantu bashaka kugera byihuse, bigatuma ugerera ku kazi ku gihe cyangwa ukagera iyo ushaka bikoroheye, bigatuma ukoresha igihe cyawe neza bitakugoye.

Abagore bari kugendera mu bwato bitwaye bari kugashya kugira ngo batagwamo. Natwe inaha iwacu tugira ingashya kuko ingashya n' ubwato bituma bagera aho bagiye vuba. Ubwato bugira akamaro kenshi cyane ,iyo babutwaye neza, ntabwo bwarohama.

Umukozi batwaye bamujyaniye ku kazi, kugira ngo ajye kurema inama . Natwe ino aha iwacu iyo tugiye kurema inama dutega moto, tukagerayo vuba twihuse tukumva ibyo abandi barimo . Moto ifite akamaro kenshi cyane mu gutwara abaturage, ibajyana aho bakorera cyangwa ibajyana mu rugo.

Abamotari bari kugenda mu nzira bari mu kazi batwaye moto, inyuma yabo hariho abaturage bari kugenda, hakurya ni inzu zicucikanye bigaragaza ko ari ahantu ho mu mugi abantu benshi baba begeranye amazu.

Umunyonzi atwaye ibicuruza yashyize ku mufuka, imifuka ibiri yahambiranyije impande ye hariho itagisi, inyuma yaho hariho insina hariho n'izindi nsina impande yaho hariho inzu itari yuzura, igare riri kugenda ku muhanda w'igitaka.

Gare, gare ni ahantu bategera imodoka rusange bashaka kugera iyo bashaka kugera. Gare ifite akamaro kenshi cyane. Hazamo imodoka zitandukanye. natwe inaha iwacu dufite gare, haba mu modoka nyinshi tugatega iyo dushaka kugira ngo tugere iyo dushaka kugera byoroshe. Imodoka zifite akamaro kenshi cyane zidutwara byihuse.

Imodoka zitwara abagenzi natwe ino aha iwacu tugira imodoka zitwara abagenzi, iyo bagiye ahantu hatandukanye bikabafasha mu kugerayo vuba bitabagoye cyane. Imodoka zitwara abagenzi zoroshya ingendo, umuntu akagenda afite umutekano nta mavunane, iyo uzi ko ugiye mu modoka bituma ujyera iyo ugiye vuba, waba ugiye ku kazi ukagerayo bitakugoye.

Gare iparitsemo imodoka, gare ifite akamaro kanini cyane. Imodoka ziparikamo abagenzi bajya muri izo modoka bagatanga amafaranga. Ayo mafaranga bayifashisha mu gusora imisoro cyangwa bakayaha imiryango yabo bagakoresha ibyo bashaka. Imodoka zifite akamaro kenshi cyane, zituma tugera iyo tugiye vuba, bigatuma dukora akazi ku gihe.

Umukinnyi uri mu kibuga ari gukina umupira. Na hano iwacu tugira abakinnyi bakina, gukina bifite akamaro kenshi cyane, bituma umuntu agira ubuzima bwiza, imitsi yose ikagororoka, kandi iyo umukinnyi yakinnye, agatsinda igitego, arahembwa, n'iyo kipe ye bakayihemba, cyangwa se bakabaha igikombe cy'ishimwe, bitewe n'uko bitwaye neza mu kibuga cy'umupira.

Imodoka za siporo zigendera ku muhanda. Natwe inaha iwacu tugira umuhanda w'ubutaka imodoka za siporo ziza kuhakorera amakurusu hakabaho umupira.

Abakinnyi ba basket bari mu kibuga. Bagigutangira umukino bahagaze. Bari kureba ukuntu bimeze, ukuntu bajyiye gutangira umukino wa basket. Bategereje gutangira, bafashe udukoresho bakoresha barimo gukina basket.

Abakinnyi baricaye muri sitade bambaye inkweto z'umukara, amasogisi y'umweru, n'amakabutura y'umukara n'udupira tw'ubururu turiho ikirango cy'umuhondo. Muri sitade harimo amabara y'umuhondo n'ay'ubururu.

Sitade irimo abakinyi bari gukina umupira, sitade iberamo ibirori bitandukanye, iyo habaye umunsi mukuru bagera muri sitade, ni iyo hari ahantu habaye umupira na bo bayja muri sitade, bakareba sitade ifite akamaro kenshi hamwe yakira ibirori bitandukanye.

Abantu bari gukina umupira bari gukora siporo bakananura imitsi, natwe inaha iwacu abantu bakina umupira bakananura imitsi yangiritse kubera siporo. Siporo ituma umuntu agira ubuzima bwiza, siporo ituma abakinnyi babishoboye baba ibyamamare n'ibirangirire siporo ifite akamaro.

Abayobozi bari kwifotozanya n'abakinnyi mu kibuga cy'umupira w'intoki. Aho baba basoje gukina bagafata amafoto y'urwibutso. Natwe inaha iwacu tugira ibibuga bakiniramo umukino w'intoki, iyo basoje bifotoza amafoto n'abayobozi babo bakazajya babyibukiraho aho hantu bagiye gukinira.

Abakinnyi bari guhemba ibihembo kuberako bitwaye neza mu marushanwa bakoze hariho uwa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, natwe ino aha iwacu iyo dufite abakinnyi bagatsinda ibitego bakadushimisha turabahemba bakabahemba imidari. Umudari ni ishimwe baha umuntu watsinze witwaye neza mu mukino w'umupira cyangwa mu marushanwa runaka.

Abanyonzi bari mu makurusi batwaye amagare ,bambaye kasike n'abagenzi bari kubanyuraho bikoreye inkwi ,harimo uwatuye ari kureba ukuntu bari gukora amakurusi ,undi akomeza kuyikorera ari kureba ukuntu bari gukora amakurusi ,hariho n'uwatuye ,n'umugabo uhagaze.

Imodoka za siporo zikora amakurusu iyo ziri mu marushanwa. Natwe inaha iwacu hazayo imodoka ziriri mu marushanwa, zikora amakurusu iyo zitsinze umuntu yitwaye baramuhemba bamuha amafaranga, cyangwa se akajya mu yandi marushanwa, bigatuma yiteza imbere mu byo akora. Imodoka zikora amakurusu zifite akamaro kenshi cyane ku bantu.

Baro iri hasi, nino aha iwacu, tugira baro, baro bayifashisha bari gukina umupira abakinnyi bakayikinisha, ifite amabara arimo umuhondo, ubururu, umweru, barayikina. Abayikinnye bakagira ubuzima bwiza. Baro ifite akamaro kenshi cyane bayikoresha muri siporo.

Natwe inaha iwacu tugira ibibuga tukajya gufana abari gukina umupira batsinda tukishima. Abatsinze cyane bakabahemba amafaranga, cyangwa bakabaha igikombe bakazajya gukina n'ibindi bihugu byinshi byo hanze.

Umukinnyi uri mu kibuga ari gukina basketiboro. Natwe ino aha iwacu tugira abakinnyi bagakina basketiboro. Iyo batsinze babaha amafaranga. Basketiboro ituma abantu bagira ubuzima bwiza, igatuma abantu batera imbere kubera ko iyo batsinze babaha amafaranga. Gukina basketiboro bifite akamaro kenshi cyane ku buzima bw'umuntu.

Abakobwa bari bari muri siporo basoje. Ababirangije batsinze babahaye imidari. Imidari ni ishimwe baha abantu babitsinze kurusha abandi. na twe inaha iwacu tugira abantu bakora siporo. Iyo babitsinze babaha imidari y'ishimwe. Iyo basoje bifotozanya n'abayobozi babo berekana ko intego bababwiye bayigezeho.

Abantu bari muri siporo bafite ubumuga, bari gufata amafoto batsinze, bari kubaha igikombe. Na twe ino aha iwacu tugira abantu bafite ubumuga, iyo bakoze siporo bagatsinda, babaha igikombe bari kwishimira intsinzi yabo, noneho bakabaha amafoto bakifotoza kugira ngo bajye babyibukiraho.

Abakinnyi ba basiketi bari gukina, abandi barahagaze b'abanyeshuri, bari kureba uko bari gukina. Harimo undi mukinnyi uhagaze wifasheho, abandi bari kugira ngo batsinde igitego, Siporo ifiteti akamaro kenshi cyane, ituma abantu bagira ubuzima bwiza.

Natwe ino aha iwacu tugira abasiganwa ku magare. Iyo hariho nk'amarushanwa, abatsinze babaha ibihembo byinshi cyane, haba harimo abo bakeneye mu bindi bihugu bakaba bajya gukora amarushanwa mu bindi bihugu, bigatuma biteza imbere, bagakorana umwete wo kuba baserukira n' igihugu cyabo cyangwa intara yabo bitewe n'uko bazi kwirukanka ku magare.

Abakinnyi bari mu kibuga bari gukina abafana bari gufana, ino aha iwacu tugira ibibuga by'umupira byo gukiniramo umupira w'amaguru, aho amakipe aba yahuye agakina hakabaho gutsindana, iyo batsinze abatsinze babaha amafaranga menshi cyane bakabahemba cyangwa bakabaha ibikombe, ibyo bikombe babahaye bikabafasha kuba bajya gukinira ibindi bi.....

Natwe inaha iwacu tugira ibibuga byo gukiniramo umupira, tukajya gufana, iyo twagiye gufana abakinnyi batsinze, turafana tugahaguruka, tukishimira insinzi y'ibitego batsinze, gukina kandi bituma umuntu agira ubuzima bwiza, akagira ingingo zigororotse kandi abatsinze muri ayo marushanwa babaha amafaranga menshi cyane.

Siporo ifite akamaro kenshi cyane ku buzima bw'umuntu, iyo wayikoze ugera imitsi zaragororoka ukagira ubuzima bwiza, waba aho ufite amavunane aragenda kubera siporo. Siporo abazikoze bakazitsinda babahemba amafaranga cyangwa bakabohereza mu bindi bihugu kubera bazi siporo babaye aba mbere, siporo ifite akamaro kenshi cyane ku buzima bw'umunt ituma bamuha n'amafaranga.

Abakinnyi mu kibuga bari gufana ikipe y'umupira irimo gukina, bagiye gutsinda igitego bose bari hamwe, bari kugira ngo barebe ko barwanira umupira igitego kikinjira, bashyize amaboko hejuru kugira ngo barebe ko bawusama ntiwinjire mu magori yabo, bakabatsinda bamwe.

Ibibuga bakiniramo umupira, abakinnyi, natwe inaha iwacu tugira ibibuga bakiniramo umupira, iyo babikiniyemo abantu baraza maze bagasuruka, ibibuga bifite akamaro kanini cyane, bituma batanga amafaranga kubera baba baje kuhakinira, bigatuma aho hantu hatera imbere.

Abakinnyi bari muri siporo yo kwiruka bazamuye amaguru, natwe ino aha iwacu abakinnyi ba siporo mbere yo gutangira umupira, babanza bakora siporo bakaba biruka bakagera aho bashaka bari muri siporo. Siporo igira akamaro kenshi cyane, inanura imitsi ituma umuntu agira ubuzima bwiza irinda n'indwara siporo.

Abakinnyi bari mu kibuga bari gukina umupira w'intoki, aho bagiye gufatana kugira ngo awumwake maze amutsinde. Bari gukina mu kibuga ari benshi, abandi bari kubareba harimo n'abasimbura. Natwe ina aha iwacu tugira ibibuga byo gukina umupira w'intoki, iyo batsinze barabahemba.

Abantu bagiye gufana abari muri siporo bose hamwe bari muri stade ,nawe sitade iyo habayeho umupira abantu baza gufana igitego cyatsinda bagarahagara, siporo ifite akamaro kenshi ku umuntu ituma agira ubuzima bwiza, ingeri ikagabanuka kandi iyo abakinnyi bakinnye bagatsinda babahaga ibihembo bitandukanye harimo igikombe.

Abakinnyi bari gukinira mu kibuga umupira, ino ahangaha iwacu, tugira abakinnyi bakina umupira batsinda bakabaha ibihembo, iyo bakinnye bituma bagira ubuzima bwiza, amavunane agashira, kandi iyo bakinnye hari igihe babahaye ibihembo bitewe n'ibitego batsinze, gukina bifite akamaro kenshi cyane, bigorora imitsi y'abantu.

Abakinnyi bari muri sitade bagiye gukora siporo yo kwiruka, natwe ino aha iwacu tugira ibibuga iyo bagiye gukora siporo babikoreramo siporo cyangwa bakabikiniramo, abatsinze bakabaha ibihembo bihwanye n'uko baba bagiye, hari abo bahemba amafaranga cyangwa se bakabaha ibikombe, cyangwa se bakaba baserukira igihugu, bakajya gukora siporo hanze y'u Rwanda.

Abakinnyi bari gukina umupira w'intoki, bari kwiruka abafana bari kubareba uko bagiye gukina, ikibuga kirimo sima, gifite amabara y'ubururu n'umuhondo.

Abantu bafashe igikombe, cyo bari kubahemba kubera ibintu bakoze bakaba batinze, bakabahemba igikosi, igikosi cy' ishimwe kubera umusaruro mwiza batanze barahagaze, bari kubafotora ifoto y'urwibutso.

Abakinnyi mu kibuga bari gukina, n'abayobozi babo bari kubareba. Siporo ifite akamaro kenshi cyane. Ituma umuntu agira ubuzima bwiza, igatuma amavunane agenda. Natwe inaha iwacu tugira siporo zitandukanye. Aho baba bakina umupira, bigatuma bagira ubuzima bwiza. Abatsinze bakabaha ibihembo.

Umuntu uri gusifura ari muri siporo. Siporo ifite akamaro cyane ituma abantu bagira ubuzima bwiza, siporo ituma abantu bagira ingingo zigororotse siporo ituma umuntu agira ubuzima bwiza cyane.

Abakinnyi bari gukina umupira w'amaguru. Hariho abateye ishoti igitego kirinjira, umuzamu aragwa. Na twe inaha iwacu tugira ibibuga byo gukiniramo umupira, aho baje gukina, abafana bari gutsinda. Natwe inaha iwacu abakinnyi baratsindana, bagaterana ibitego, abatsinze bakabaha igikombe cyangwa amafaranga.

Umuhungu utwaye igare rya siporo Yambaye na kasike. N'ino aha iwacu tugira amagare ya siporo turayagurisha bakayagendaho. Iyo bayagiyeho baba bari muri siporo cyangwa bari gutembera. Amagare ya siporo afite akamaro kenshi cyane, atuma umuntu arambuka amaguru akagira ubuzima bwiza.

Abakobwa bari muri siporo bari kwirukanka bazenguruka ikibuga. Bagira ngo bagire ubuzima bwiza, ku buryo nta n'uwabasha kubahangara.

Umuntu ari gukora siporo kugira ngo, agire ubuzima bwiza, yazamutse hejuru yambaye ibya siporo, yambaye inkweto zifunze n'amasogisi, n'isengeri, n'agakabutura gatoya.

Abakinnyi bari gukina umupira w'intoki. Abafana baje ku bafana bari muri sitade bari kureba uko bari gukina. Barikureba uratsinda n'uratsindwa. Abakinnyi bari kurwanira umupira ngo batsinde batsindane.

Abakinnyi benshi bari mu marushanwa barangije gukora amarushanwa bafata amafoto y'urwibutso. Natwe inaha iwacu iyo abantu bari mu marushanwa bayarangije bafata amafoto y'urwibutso, kugira ngo bajye bibuka amarushanwa bakoze n'ibyo bahakoreye, bigatuma batibagirwa ibyahabereye.

Nino aha iwacu tugira ibibuga bya basikete abafana baza gufana turi kureba abakinnyi ,abakinnyi batsinze bakabahemba amafaranga. Ayo mafaranga bakayafata bakajya barayakoresha mu byo bakeneye nko guhaha cyangwa kugura imyenda .Abatsinze bakaba bajya no gukinira hanze y'igihugu cyangwa abo hanze bakaza iwacu mu Rwanda.

Abantu bari mu muhanda bari kugenda ni nijoro amashanyarazi ari kwaka, bari mu muhanda bari kugenda, hariho n'ibiti ni abantu bagenda mu nzira zitandukanye: abajya iburyo abajya ibumoso, bose bari kugenda mu muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo imodoka itawurenze iri kuwuvamo. Iri kuva mu muhanda wa kaburimbo yambuka. Hirya y'aho gato hirya harenga hari inzu ishaje, hari abaturage, burije ntabwo hagaragara neza ntabwo hasa neza.

Mu muhanda wa kaburimbo, ahari umweru, ni aho abanyamaguru bambukira ngo imodoka mori zitabagonga. Hano hantuh'amabara y' umwerumuri kaburimbo ni aho abanyamaguru bambukira . Iyo modoka zaje abanyamaguru kuko imodoka yadi z'abanyamaguru bahagaze barahagarara bakambuka. Imihanda ifite akamaro kenshi.